Yambaye ikoti ry'umweru, ishati y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki, atanga ikiganiro agiha abamukurikiye kandi ubona ko yishimye kandi byamunejeje.

Abagabo n'abagore bicaye mu nyubako nini harimo umusirikare, imbere yabo hateretse indabyo nziza, bari mu nyubako ifite ibara ry'umweru, bateranye kandi bishimye.

Abagore batatu, babiri bambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'umutuku ndetse bicaye kumeza baganira kandi bungurana ibitekerezo.

Inyubako nini iteraniyemo abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo bicaye imbere yabo hari amacupa y'amazi na za mudasobwa bari mu mirimo itandukanye.

Abagore bicaye bateraniye ahantu, ubona ko hari icyo bagiye kwigaho, hari n'abandi bantu benshi bicaye mu nyubako mu ntebe nziza kandi ubona ko izi ntebe ari iz'icyubahiro gikomeye.

Ihuriro ry'abayobozi mu mujyi wa Kigali baganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye, bishimye kandi bambaye imyenda myiza umukara, umweru bateretse amazi hejuru y'ameza.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, uri gutanga imbwirwaruhame, abandi bicaye, bari mu nyubako nini cyane kandi nziza, yicaye ku meza kandi yishimye cyane.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye biga ku nsanganyamatsiko ibafasha kwiteza imbere, amazi ateretse hejuru y'ameza ndetse na za mudasobwa, baganira kandi bishimye.

Bicaye batandukanye kandi ubona ko bishimye, ibiti binini bibakikije, igicucucu ndetse n'amahumbezi, ubona ko byabanejeje kandi ari iby'agaciro kuri bo.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bari mu nama kandi bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere yabo hari amacupa y'amazi, ubona ko bahurijwe hamwe n'ibintu bitandukanye kandi byiza.

Umugabo munini uri guseka ufite mikoro mu ntoki, usa nkaho atanga imbwiburuhame ayiha abantu batandukanye, amwenyura kandi yishimiye ibyo arimo gukora imbere y'abantu kandi yishimye.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bari mu nama ku nsanganyamatsiko zitandukanye ndetse ubona bafite ibyo bigaho kandi bibafitiye akamaro bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umweru, ndetse n'amazi imbere yabo.

Bicaye mu cyumba cy'inama bari kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, bambaye imyenda: umweru, umukara, ubururu ndetse bambaye n'amakoti meza cyane agezweho.

Ihuriro ry'urubyiruko ruteraniye mu nyubako nini, bambaye imipira y'ubururu n'icyatsi, bahabwa imbwirwaruhame ndetse bishimiye ibyo bari kubagezaho.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu isoko, baturutse mu bice bitandukanye, bafite amahene harimo abambaye imyenda, umuhondo, umukara, umweru ndetse n'icyatsi.

Indorerwamo z'amaso yambaye, ikote ry'umukara, ishati y'umweru, abagore bamukikije ubona ko bahuriye hamwe bafite ibyo bigaho, impapuro bafite mu ntoki, amakaramu ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Umukobwa mwiza ufite indangururamajwi wambaye umupira w'umweru, uri kumwe n'undi wambaye umupira w'umukara bicaye imbere y'ameza batanga imbwirwaruhame ndetse banafasha ababakurikiye.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, bicaye bategereje ubaha ikiganiro kandi ubona ko bamutegerezanyije amatsiko menshi cyane kandi bishimiye. Ibi nibyo bigaragaza aho bagiye baturuka mu bice bitandukanye.

Umusore ufite umusatsi mwinshi w'imibiri yombi, wambaye agapira k'umukara n'igikapu mu ijosi, ufite amazi ari kunywa meza, akoranye isuku nziza.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'imisego, ubona ko bahurijwe hamwe n'ibintu bikomeye, bafite insanganyamatsiko bigaho kandi ifite icyerekezo cyiza.

Ihuriro ry'urubyiruko ririmo abasore ndetse n'inkumi bagaragara batonze umurongo ndetse bari ku ruziga, bafite ibyo bigaho kandi ubona ko byabahurije hamwe kandi bifite icyo bigenda bigarukaho.

Abayobozi bicaye mu nama bafite mudasobwa imbere yabo, ubona ko bari kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye kandi zifite icyo zamarira umuryango nyarwanda utuje kandi utekanye.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, bicaye ku meza bafite amazi yo kunywa ndetse ubona ko bafite insanganyamatsiko bari kwigaho, ifitiye igihugu akamaro.

Ihuriro ry'abantu bicaye mu nama, baganira ndetse bahuriye ku nsanganyamatsiko imwe yabateranirije hamwe, mu cyumba cyiza kandi ubona ko ari cyiza kandi giteye neza.

Ihuririro ry'abantu batandukanye bahuriye hamwe, bafite insanganyamatsiko bari kwiga aho bahagaze kandi bambare udupfukamunwa, ubona a ko byiza kandi bifite icyo biza kumara muri rusange.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'umutuku, ipantaro nziza, uri kumwe n'umugore wambaye umupira w'umuhondo, ubona ko bari gutanga imbwirwaruhame imbere y'abantu batandukanye, bishimye kandi banezerewe.

Abagabo bane, abakobwa babiri, bicaye ku ntebe, imbere yabo hateretse amazi, bafite amakaye n'amakaramu, ubona ko bari mu nama kandi bari kuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Ihuriro ry'bantu bicaye hamwe baganira ku nsanganyamatsiko itandukanye, bafite amazi yo kunywa amakaramu, amakayi, ndetse bicaye imbere y'ameza bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'imashini, mudasobwa ndetse na telefone.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bari gukoresha, abagabo babiri bicaye umwe yambaye rinete, undi yambaye ingofero, biyicariye baganira kandi bareba icyabateza imbere uyu munsi.

Urupapuro rugaragaza icyangombwa ndetse ruriho nimero zitandukanye ndetse na nyirarwo, hariho imbonerahamwe igaragaza ibikorwa ndetse n'igihe byakorewe.

Inyubako nini irimo amatara menshi umuriro intebe ameza ibikoresho by'ikoranabuhanga utubati ndetse n'ibindi byinshi ubona ko ari byiza muri iyi nyubako isamaje.

Abantu bateraniye hamwe, bari kwiga ku bijyanye n'amashyamba, urutoki ndetse n'ibindi bidukikije, bateraniye mu ishuri, imbere yabo hari umugabo uri kubaha inyigisho.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'ubururu, ubona ko isa neza kandi ikeye ihagaze amafaranga agera kuri miliyoni icumi.

Ku rutonde rw'ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubuvuzi, rugaragaza nimero ya telefone ndetse n'umurwayi ugiye gufata imiti, bakamuha imyirondoro ndetse n'aho afatira.

Abantu b'urujya n'uruza bari kujya mu isoko ndetse bagasangayo ibikoresho bitandukanye, ubona ko bahahurizwa na serivisi nyinshi mu buryo bwose.

Dore uko wamenyekanisha ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, jya ku rubuga ndetse kanda ahanditse inzira umenyekanishe, maze ushyiremo ibyangombwa bikenewe byose.

Umuriro w'amashanyarazi uteza igihugu imbere, aho abantu bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse ugasanga ari bwo buzima bwabo bwa buri munsi, ibi bifasha abantu benshi b'ingeri zitandukanye.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hateretse amazi yo kunywa, ubona ko ari kwigisha abaturage ibijyanye na serivisi z' irembo.

Ipoto ndende iri mu ishyamba ubona ko ifite ibikoresho bitandukanye biyigize, urutoki ndetse n'ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, amashaza ndetse n'ibirayi.

Ni poto nini, imbere yayo hari ibirango bya Emutiyeni by'umuhondo, ikirere gisa neza, kirimo amabara y'umweru, n'ubururu, ndetse ubona ko ari byiza cyane.

Abanyeshuri bari mu ishuri; abahungu n'abakobwa bambaye amashati y'umweru, imbere yabo hari za mudasobwa, umwarimu wambaye imyenda myiza kandi baberewe, ari kubaha ubu.

Ipoto y'amashanyarazi ifite ibyuma bikomeye, ubona ko ari ndende cyane yiganjemo amabara y'umweru n'umutuku, n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga kandi bikoranye ubwenge bwinshi cyane.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubona ko bari kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye, zifite icyo zikemura kandi zigisha muri sosiyete nyarwanda iteye imbere.

Urutonde rugaragaza ingingo zitandukanye, ikigo gitanga serivisi, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu ndetse icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside.

Amapoto manini ajyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage, uteye imbere y'inzu ntoya ifite ibara ry'umuhondo, isakaje amabati atukura, iruhande rwayo hari indabyo nziza kandi zigezweho.

Ibiti birebire biteye impande yabyo ipoto y'amashanyarazi, haruguru hari inyubako yiganjemo amabara y'umutuku, umweru, ubururu ndetse ituwemo n'abantu benshi batandukanye, igeze haruguru gato.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara ihagaze ahantu hirengeye ubona ko iri ku isoko kandi igurishwa amafaranga make uyishaka yayibona ku giciro cyiza.

Ipoto nini ijyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage, ibiti byiza birimo imikindo ndetse n'ibindi byatsi by'amoko atandukanye bigaragara neza.

Inyubako ndende ifite ibirango bitandukanye, ibicuruzwa byinshi ndetse ubona urujya n'uruza rw'abantu baza kugura, ku buryo umucuruzi abona amafaranga byihuse.

Ipoto y'amashanyarazi ihagaze mu ishyamba, insinga zinyura hejuru y'ibiti zijyana umuriro mu baturage kugira ngo babashe gucana, banyure mu mucyo kandi bizeye iterambere ryabo.

Umuhanda mwiza inyubako nini kandi zigezweho ubona ko ari ingirakamaro, abantu baza bajyamo bafata serivisi zitandukanye, ibi bikaba ari iby'agaciro gakomeye cyane mu buzima bwa buri munsi.

Ibiti binini birimo ipoto y'amashanyarazi, iruhande rwabyo haparitse imodoka, umutaka wa MTN w'umuhondo ubona ko ari mwiza cyane kandi ari ikirango.

Inyubako nini yiganje mu ibara ry'umukara n'umweru, insinga zinyura hejuru y'amapoto zijyana umuriro mu mazu, aho abantu bakoresha ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umuganga urimo kwita ku murwayi ubona ko afite imyenda y'akazi kandi ibikoresho byabugenewe, ari byo aba yifashisha kugira ngo yite ku buzima bw'umugana kandi neza.

Imodoka zitandukanye z'amoko menshi, harimo umukara, umweru, imbere yazo hari indabo nziza, imikindo n'ibiti biri hirya impande yazo ubona ko ari heza.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ku ivuriro ubona ko baje gusaka serivisi zitandukanye, inyubako nini isize irangi ry'umuhondo, umweru ndetse n'ibyatsi biteye hagati muri iyi.

Inyubako nziza ikikijwe n'amatafari ateye irangi, imbere ifite ibice bitandukanye, ibyumba, saro ndetse n'abantu bicaye ku ntebe, hateye ibiti by'amoko yose.

Imodoka zitwara abarwayi ziraparitse, ndetse zitegereje abo zitwara, zifite amabara y'umweru, umutuku, ndetse n'umukara, bigaragara ko zitegereje abarwayi.

Inyubako nini isakaje amabati atukura, ikikijwe n'imodoka impande yayo hateye indabo, ibiti birebire ndetse n'ibyapa bigaragaza ibirango ndetse n'ibice bitandukanye.

Urupapuro runini rugaragaza amafaranga yinjiye n'ayasohotse, imyanya iri mu nzego za leta ndetse n'uburyo abantu bakoresha amafaranga.

Imbwirwaruhame nziza iri gutangwa n'umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufite impapuro mu ntoki bicaye bategereje ibyo ababwira kandi ubona ko bishimye bari munsi y'ibiti bibaha amahumbezi.

Abanyamategeko bari mu cyumba cy'inteko ubona ko bafashe ku idarapo ry'u Rwanda, baganira ku bibazo bitandukanye kandi ku ngingo bateguriwe, ubona ko bishimiyemye kandi banezerewe.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, harimo abambaye indorerwamo z'amaso, imyenda myiza, amakoti, amabara y'umutuku yiganjemo ndetse ameza ateretseho amazi na za mudasobwa imbere yabo.

Umugore mu nini wambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'umukara, ikoti ry'umutuku, umusatsi mwinshi, w'imibiri yombi, ubona ko yishimye kandi anezerewe cyane.

Umugore w'imibiri yombi, ufite imisatsi miremire, wambaye ikoti ry'umutuku, umupira w'umweru, witegereza abantu ndetse akanagira icyo abagezaho.

Ikirango kinini kigaragaza amabara atandukanye umuhondo, icyatsi, ubururu, cyanditseho ubushinjacyaha bukuru kandi ubona ko kiyobora abantu.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame yambaye indorerwamo z'amaso, ikote ryiza, ishati y'umukara ndetse afite indangururamajwi mu ntoki ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Abagabo bane, harimo babiri bambaye indorerwamo z'amaso. n'undi ushinzwe gucunga umutekano, ubona ko bari mu nyubako, kandi bafite icyabahurije aha ngaha.

Umupolisi wambaye ingofero y'umukara, ikote ryiza, uri gufotora irangamuntu y'umugenzi uri mu modoka, kandi afite terefone nziza igezweho.

Urujya n'uruza rw'abamotari, imodoka, abapolisi, ibice bitandukanye byuzuyemo abantu babona ko ari byiza kandi bisamaje kuri buri muntu wese wabibona.

Umumotari, umupolisi, umugenzi uhagaze ndetse inyubako ifite amabara menshi, ibirahuri by'umukara ndende kandi nziza.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama mu nyubako ifite amabara atandukanye, harimo intebe zifite imisego ndetse nziza.

Urubyiruko rwinshi, imbere yarwo hari umugabo uri kubaha imbwirwaruhame, inyubako nini ndetse n'ibindi bitandukanye, abagore bambaye imyenda myiza ndetse banakenyeye.

Louise Mushikiwabo imbere y'itangazamakuru ari gutanga imbwirwaruhame y'ibibazo ari kubazwa, kandi ubona ko atanga ibyifuzo by'abamutumye kandi akabigeza ku bamukurikiye.

Abantu bahagaze imbere y'idarapo ry'u Rwanda harimo abagabo babiri, abagore babiri ndetse n'abandi babari inyuma, ubona ko bari mu gikorwa cyo kurahira kandi bagiye guhabwa inshingano nshya.

Urutonde ruriho abakandida batatu Paul Kagame, Frank Habineza, Philippe Mpayimana n'amajwi yabo uko yagiye agaragazwa ku ijana, mirongo icyenda n'icyenda n'ibice bitanu ku ijana, zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana, zeru n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana.

Urutonde ruriho imibare myinshi itandukanye, hariho amabara: ubururu, icyatsi n'andi asa umuhondo ubona ko agaragaza raporo.

Ihuriro ry'abantu bicaye muri sale nini cyane, biga ku nsanganyamatsiko yateza imbere igihugu, bafata imyanzuro, bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi bambaye ingofero z'umweru, amashati y'umweru, bari ahantu higanje ibara ry'icyatsi, bishimye kandi bamamaza umukandida wabo.

Umugore wicaye, wambaye indorerwamo z'amaso n'ikinigi mu ijosi, wambaye umupira w'umweru n'imisatsi myinshi cyane, utuje kandi uri kureba abantu bamwicaye iruhande.

Umubyeyi umwenyura ufite imisatsi myinshi, wambaye umupira w'umweru n'igitenge, n'agakomo ku kaboko k'ibumoso, bigaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe, bambaye imyenda itandukanye, umukara, umweru, umutuku bafite telefone nziza z'amoko atandukanye zigezweho.

Umugore wambaye indorerwamo z'amaso, ikoti ry'umukara n'ishati y'mweru witeretse amazi imbere yo kunywa, imbere ye hari ibikoresho byo kwandikaho ndetse n'ibyo kuvugiraho.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, bari gutanga serivisi za leta, baganira, bakemura ibibazo bitandukanye, bicaye ku ntebe nziza z'umukara n'ameza agezweho.

Imodoka ifite umuryango munini yanditseho kwishyura ayo mafaranga y'amashuri wahawe ni amahirwe kuva ukuri muto. Ifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Imodoka nziza yiganje mu ibara ry'umukara n'umweru, urujya n'uruza rwa moto ndetse n'abamotari batwaye, umuhanda w'umukara n'umweru, n'ibiti bikikije uyu muhanda.

Imodoka zitandukanye umweru, umukara ndetse n'ibiti biri impande yazo. Umuhanda wa kaburimbo wiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, bigaragara ko abantu bahanyura bishimye.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biri kujya mu cyerekezo kimwe, ibiti binini biteye ku muhanda ubona ko ari byiza kandi biticwa n'izuba bifite amashami manini.

Imodoka icanye amatara, yiganjemo amabara yu'umweru n'icyatsi, inyuma yayo hari abantu bari kugenda bagana mu cyerekezo kimwe nayo kandi ubona ko bishimye.

Umugenzi uri mumuhanda ufite igare inyuma ye hari imodoka nyinshi zitandukanye, kandi zijya mu bice byinshi, inyubako nini ndetse isakaje amabati.

Imodoka nini, igare, moto ndetse n'ibiti bitandukanye, ubona ko ari byiza kandi bifitiye igihugu akamaro, aho abantu baza banagenda.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo moto, imodoka ziganjemo amabara y'ubururu' umweruru n'umukara, ibiti binini ndetse n'ibyatsi bitoshye.

Urujya n'uruza rw'amagare, imodoka, moto ndetse n'abantu bagenda n'amaguru ubona ko bajya mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ibindi baba baje bibyara amafaranga buri munsi ku munsi.

Imodoka nini ihetse ibicuruzwa bitandukanye, ifite ibara ry'umuhondo n'umweru iri mu muhanda, impande yayo hari ibiti binini kandi birebire bitohagiye kandi bitishywe n'izuba.

Umujyi urimo inyubako zitandukanye, imodoka, moto, abantu ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amatara, imiriro y'amashanyarazi n'ibindi.

Imodoka nini y'amabara y'umweru, imbere hari moto ndetse n'abantu bagenda mu muhanda, ibiti binini bikikije umuhanda wa kaburimbo ndetse n'abantu bagenda batandukanye.

Imodoka nini ifite amapine y'umukara, ibirahure by'umukara, ibindi bice bisa umweru ndetse iri imbere y'akazu gatoya, mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, imbere yayo hari moto, impande yaho hahakikije ibiti bitandukanye by'ubwoko bwose, harimo imodoka irimo abagenzi benshi cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bagenda mu muhanda, abikoreye imizigo, abafite imodoka, inyubako nini kandi zihenze, bigatuma abantu babaho ubuzima butandukanye mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Imodoka zitwara abagenzi ziganje mu ibara ry'umweru n'umukara, ibiti byinshi biri imbere yazo ndetse n'amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Ikirango kinini kigaragaza icyerekezo cy'Akarere ka Bugesera, imodoka y'umweru, umutuku, impande yayo hari ibiti, indabyo ndetse n'umuhanda wa kaburimbo imodoka zinyuramo.

Urujya n'uruza rw'abantu bagenda mu muhanda, icyapa cya mirongo itandatu kiri mu ishyamba, ibiti binini bitohagiye ndetse n'ibyatsi bimera buri munsi uko bucya n'uko bwira.

Inyubako igurishwa, irimo amarangi menshi atandukanye, umukara, umweru ndetse irimo imitako myinshi, iruhande rwayo hari ibyatsi by'ubwoko bwose.

Inyubako nziza zisakaje amabati atukura, zifite umuriro w'amashanyarazi kandi ubona ko ari nziza mubi bice byose, inyuma ndetse n'imbere zifitemo ibikoresho by'ingenzi umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi.

Umuhanda w'urujya n'uruza rw'abantu harimo moto ndetse iruhande rwayo haparitse imodoka inzu nini y'amabara atandukanye ibirahure ndetse n'ibindi bintu.

Inyubako ndende ya banki ya Kigali, imbere yaho haparitse moto iriho umumotari, ubona ko ategereje abagenzi kandi ashaka kujya mu kazi kugira ngo abone amafaranga.

Umurenge wa Kimironko kandi uri imbere y'ibiti bitandukanye, inyubako nini cyane nziza kandi igeretse gatatu, ubona ko ari nini kandi isamaje byahebuje.

Inyubako nini iriho icyapa cy'umutuku igaragaza ko ari inzu y'ubucuruzi, kandi impande yayo hari umuhanda wa kaburimbo ugana mu bice bitandukanye.

Inyubako ndende ifite ibirahuri by'umukara, ibyatsi bitohagiye kandi biri mu ishyamba, ubona ko ari ahantu heza kandi ho kuruhukira, abantu bahurira bishimye.

Ibiti bitandukanye harimo ibirebire n'ibigufi, birimo ibyatsi byinshi biri imbere ya kaburimbo, bituhagiye cyane kandi bifite amababi meza afite icyo amaze kandi yamarira umuryango nyarwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda, inyubako nini ubona ko ifite amabara y'umukara, umuhondo kandi nziza cyane igezweho ugereranyije no mu minsi ya kera.

Inyubako nini isakaje amabati y'umutuku, ifite amabara y'umweru, umukara, insinga zinyura hejuru yayo ndetse iruhande rwayo hateye indabyo.

Inyubako nini isize amarangi, umukara, umuhondo, umutuku, irimo ibirahuri by'amoko yose, inzugi nziza ndetse n'indabo.

Inyubako ndende isakaje amabati y'umutuku, ifite ibice birimo amabara y'umweru, ndetse ubona ko yubakanye ubuhanga kandi ari inyubako igezweho.

Inyubako nziza igezweho, ibitaka birunze impande yayo, ibiti birebire, ibyatsi, ibirahure by'umukara, ikirere gisa neza kandi gishimishije.

Inzu zisakaje amabati y'umutuku, mo imbere hahinzemo urutoki n'ibiti bya avoka, inyuma yaho hateye indabo ndetse ubona ko zisamaje kandi ari nziza ku buryo buhagije.

Urujya n'uruza rw'abantu, imodoka nyinshi ndetse n'inyubako iri impande y'abantu, bishimye kandi bategereje ubafasha kugira ngo babone serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako zitandukanye zirimo izigeretse ziganje mu ibara y'umukara n'umweru, mu mpande yazo hari ishyamba rinini, amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi mu nzu z'abaturage.

Ikibuga kinini kirimo imodoka ebyiri, inzu y'amabati atukura, ibiti birebire, umuhanda w'igitaka ubona ko ari mwiza kandi ukeye, harimo isuku nziza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye ndetse na moto zigenda mu muhanda, urujya n'uruza rw'abantu bava mu bice bitandukanye, bagana mu bindi byerekezo by'Umujyi wa Kigali bishimye.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bijya mu bice bitandukanye mu muhanda wa kaburimbo, ibiti binini bikikije umuhanda ndetse n'ibyatsi biri mu nyubako zitandukanye, abantu bagenda mu muhanda bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda, imodoka zijya mu bice bitandukanye, abagenzi barimo abagabo, abagore, ibiti binini cyane ndetse n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti, ibyatsi, ibirango bitandukanye ndetse bigaragaza icyerekezo, umuntu uri kugenda agana imbere.

Umuhanda wa kaburimbo ugana mu bice bitandukanye, ibiti binini bikikijwe n'indabo, imikindo ndetse n'amabara atandukanye, umukara n'umweru.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga imodoka, moto ubona ko bijya mu bice bitandukanye mu muhanda wa kaburimbo, wiganjemo amabara y'umukara, umwerurum ibiti binini ndetse n'indabyo ziteye ku muhanda byinshi kandi birebire.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ibiti binini bifite ibara ry'icyatsi, umuhanda w'umukara n'umweru, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, byiganje muri uyu muhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bagenda mu muhanda, imodoka igana ku ruhande rw'iburyo, izindi ziparitse ubona ko umuhanda ari nyabagendwa kandi ari ntamakemwa, aho abantu bagenda banagaruka mu muhanda nta kibazo bafite.

Ibiti binini, ibyatsi ndetse n'indabo bikikije umuhanda wa kaburimbo, urimo amabara: umukara, umweru, ukata unyura mu bice bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara umukara n'umweru, imodoka igana iruhande rw'ibumoso ndetse n'umugenzi ugenda mu kayira k'abanyamaguru, ubona agenda areba hepfo no haruguru kugira ngo yambuke.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi bagenda n'amagare, ibiti bikikije umuhanda kandi ubona ko iri ari iterambere rya buri munsi igihugu kigenda kigeraho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye amagare, imodoka, moto ndetse n'ibiti binini cyane, ubona ko ari byiza cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka yiganje mu ibara ry'umukara n'umweru ibiti binini ndetse n'ibyatsi bitoshye bigaragara neza .